Abanyeshuri bari gutambuka mu muhanda, bambaye impuzankano zisa, abakobwa babiri bambaye amakanzu y'ubururu, umwe ahetse agakapu karimo amakayi n'abasore bambaye amashati n'amakabutura y'umweru.

Umuntu uhagaze afite ishusho ishushanyijeho umuntu wambaye ijipo y'umukara n'agapira k'umuhondo, inyuma ye yicaye abantu ku ntebe ndetse ishuri risize irange ry'umuhondo.

Icyumba gisize irange ry'umuhondo, imbere hari ikibaho cy'umukara, amadirishya y'ibirahure ndetse hari n'akabati, abana bicaye bato bari munsi y'imyaka itanu, imbere yabo hahagaze abantu barikubaha amabwiriza.

Igikuta k'inzu gisize irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho ibintu bitandukanye, mu mabara y'icyatsi, ubururu ndetse n'umukara. Hasi hashashemo sima.

Abana babiri umwe wambaye umupira w'ubururu n'agakabutura ndetse n'ingofero bose mu mutwe bafite ikiroso bari gusiga irangi ry'umweru ku nzu.

Abana bari ku myicungo isize irangi ry'umuhondo, n'ubururu, n'icyatsi, bambaye amashati y'umweru ndetse n'amakabutura n'amajipo bisa umukara, impande yabo hari ishuri ryubatse risakaje amabati.

Umugabo uteze igitambaro mu mutwe, yambaye ishati y'igitenge, mu mpande ye hahagaze umwana wambaye umupira w'icyatsi harimo akarongo k'umweru, imbere yabo hashushanyije inanasi, ibishyimbo n'inyanya ndetse n'imineke, ku gikuta.

Inyubako ifite ibyumba bifite imiryango. Ibiri irafunguye umwe hakazamo abantu babiri. Imbere hateretse utubati dusize irangi ry'umweru.

Inzu isize irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho ibase y'ubururu, n'umweyo usa umukara. Umuryango urafunguye, hahagazemo umuntu hagaragara akaboko konyine.

Igikuta k'inzu gisize irangi ry'umuhondo, hashushanyijeho ikibabi mu ibara ry'icyatsi n'umukara ndetse hariho n'ibice byacyo byanditse mu magambo y'Icyongereza. Ku gikuta hariho idirishya rifunguye.

Inyubako isakaje amabati isize irangi ry'umweru na shokora, imbere hari igiti ndetse n'intebe zo kwicaraho, ikirere hejuru kirasa neza.

Ibishushanyo harimo umuneke, ingofero, avoka, inkweto, isahane, ijipo, ururabo, iradiyo y'umukara ndetse n'ipantaro isa ubururu.

Ibyumba by'amashuri bisakaje amabati asa ubururu busize irangi ry'umuhondo imbere hari ubusitani bwindabo n'akayira ko kunyuramo inyuma hari ibiti.

Abanyeshuri bane bambaye impuzankano zisa, amashati y'umweru ndetse n'amajipo y'ubururu, bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza y'ikizeru, barambitseho impapuro, bari kuganira.

Igishushanyo kiriho umukobwa wambaye ikanzu y'umuhondo n'udukweto dufunze tw'ubururu, impande hashushanyije amazu abiri ndetse n igiti, hejuru handitseho amagambo mu mumara.

Inzu zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati, zifite amadirishya n'inzugi bisize amarangi atandukanye icyatsi, ubururu, n'umweru. Impande imbere haruhagaze umugabo ndetse hateretse na kandagira ukarabe.

Umusore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro, yashyize ikiganza ku kibaho cyanditseho, imbere ye hari ameza arambitseho igitabo, ingwa na telefone.

Ishuri ryubakishije amatafari ahiye, risakaje amabati asa ubururu, amadirishya n'inzugi bisize irangi ry'icyatsi, impande yabo hari ishyamba.

Umukobwa wambaye ishati y'ubururu n'ijipo n'udukweto ahagararanye n'akana imbere y'urugi rusize irangi ry'umutuku ndetse n'inzu yubatse.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye, imbere hari ahantu hamanitse ibikapu by'abana ndetse n'intebe ziri hanze, inyuma hari ibiti.

Abana bambaye impuzankano zisa umweru n'ubururu bicaye ku ntebe, imbere hari amakaye hahagaze umwarimu uri kubigisha ndetse n'utubati turimo ibitabo.

Amashusho ari muri mpande enye ndetse n'ibiziga, yanditsemo amagambo y'icyongereza, ari mu mabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, umutuku, ubururu, umukara ndetse n'umweru.

Inzu zubakishije amatafari ahiye zisakaje amabati, impande hari ikibuga kinini ndetse n'ibiti, insinga z'amashanyarazi zizana umuriro kuri aya mazu zica mu kirere.

Abana bicaye ku musambi, umwe afite imbago, bafite ibikinisho bari gukina, bambaye impuzankano, zisa ubururu n'udushati.

Amarembo yikigo cy'ishuri cya Rukomo, asize irangi ry'icyatsi uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, mo imbere harimo ubusitani bw'indabo n'ibiti ndetse n'ibyumba by'amashuri.

Ikigo cy'shuri cyubakishije amatafari ahiye, gisakaje amabati y'ubururu, gize irangi ry'umuhondo, impande haparitse imodoka hicaye abantu ndetse hari n'amashyamba.

Umwana wambaye agapira kari mu mabara menshi y'icyatsi, umuhondo, umutuku n'ubururu, ipantaro n'udukweto yifashe mayunguyu. Impande hari amagambo yanditse mu cyongereza.

Ishuri ririmo imitako itandukanye abarimu bifashisha mu kwigisha abana, utubati turimo ibitabo, imitako isa iri mabara y'icyatsi, umutuku, ubururu ndetse n'umuhondo.

Abanyeshuri babiri bicaye ku ntebe, imbere yabo hari ameza bafite impapuro n'amakaramu, bari gushushanya indabyo. Hejuru handitse amagambo y'Ikinyarwanda.

Abanyeshuri bari kumurongo, bahagaze, imbere yaho hari umugabo wicaye ari kwandika, impande hari inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati.

Abanyeshuri benshi bahagaze ku mirongo, bambaye impuzankano zisa. Impande yabo hari inzu zubakishije amatafari ahiye, zisakaje amabati ashaje, impande hari ibiti.

Ishuri ryuyubakishije amatafari ahiye, hasizemo irangi ry'umuhondo, amadirishya ni ibirahure, asize irangi ry'ubururu. Hateretsemo utubati dusize irangi ry'umweru harimo ibikoresho bitandukanye.

Umusore uhagaze wambaye ishati y'umweru n'ipantaro yumukara n'umukandara ku ishati hariho ikirango cy'icyatsi afite igikombe mu ntoki kiriho imitako iri mu ibara ry'umuhondo, icyatsi, n'ubururu.

Amashuri yubakishije amatafari ahiye asize irange ry'umuhondo, amadirishya asize irange ry'ubururu, asakaje amabati, imbere yaho hari gutambuka abantu bambaye amajire asa icyatsi ndetse n'umugabo ufite ikayi mu ntoki.

Abanyeshuri bahagaze ku murongo, bambaye impuzankano zisa amashati y'umweru, amajipo ya kaki n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, inyuma yabo hari ikirango, ubusitani bw'indabo ndetse n'amashuri ahubatse.

Umwarimu w'umugabo wambaye itaburiya y'umweru, imbere hari ameza ateretseho ibikoresho by'ikoranabuhanga ndetse n'abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye amashati y'umweru n'imyenda y'imikara.

Ibigo by'ishuri bahurije hamwe bicaye munsi y'ibiti ku ntebe z'ishuri imbere yabo hari abayobozi mu ihema risomweru ritatseho ibitambaro by'cyatsi, ubururu n'umuhondo.

Abanyeshuri benshi bicaye hasi bambaye impuzankano zisa amashati y'umweru n'amajipo ya kaki, imbere yabo hari umuyobozi ndetse inyuma hari amashuri yubakishije amatafari ahiye asakaza amabati y'ubururu.

Abantu bambaye imyenda isa, imipira y'ubururu iriho uturango tw'umweru impande ku ibere, amapantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'amasogisi y'umweru, impande hari amahema ndetse ariho ibitambaro bisa ubururu.

Abanyeshuri b'abakobwa bane bambaye amaherena ndetse bafite n'imitako mu ntoki ikozwe mu bitenge. Bambaye amashati y'umweru n'amajipo ya kake.

Akazu gato kubabakishije amatafari ahiye, hariho imiryango ndetse gasakaje amabati, imbere yako hahagaze abantu babiri, hari ikigega gisa umukara gifata amazi, inyuma hari ibiti.

Abanyeshuri bambaye imipira y'umuhondo n'amapantaro y'umukara, bari kwirukanka, imbere yabo hari abarezi bambaye amarinete. Inyuma hari ibiti by'ubwoko butandukanye.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati asa ubururu urugi rurafunguye, imbere ye hahagaze umugabo wambaye ijire y'icyatsi, inyuma y'inzu hari igiti.

Abanyeshuri bahagaze umukobwa n'umuhungu, bafite impapuro, bibiliya n'ikaramu mu ntoki, inyuma yabo hari akabati karimo ibitabo n'ikibaho.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri bambaye impuzankano zisa ubururu bafite amakaye n'amakaramu bari kwandika, hahagaze umwarimu wabo wambaye itaburiya y'umweru afite urupapuro mu ntoki, inyuma hari ikibaho.

Ishuri ryubakisheje amatafari ahiye, mo imbere harimo ikibaho gisa umukara, abanyeshuri bicaye ku ntebe bambaye impuzankano amashati y'umweru n'amapantaro n'amajipo bya kaki n'imipira y'imbeho isa icyatsi bari kwandika.

Ikigo cy'ishuri cyubakishije amatafari ahiye, hamwe hasize irangi ry'umweru indi nyubako isize irange ry'umuhondo, isakaje amabati. Hagati mu kibuga hateyemo ibiti ndetse haparitse amagare abiri.

Abanyeshuri bambaye imipira y'umweru n'amapantaro ya kaki n'inkweto z'umukara bafite indabo mu ntoki, impande hari urwibutso baje kwibuka ndetse hari n'amashuri ahubatse.

Abanyeshuri b'abakobwa bicaye abandi bahagaze bari gukoma amashyi baseka bishimye, impande mo hagati hicayemo umuzungu, bigaragara ko bari kwifotoza, inyuma hari inyubako z'ibyumba by'amashuri.

Abantu bari mucyumba kinini gisize irangi ry'umweru, bicayemo bari kuganira, imbere yabo kumeza hateretse amakayi, amazi yo kunywa, mudasobwa ndetse n'abandi bahagaze.

Abantu bambaye imyenda isa bahagaze bafite igitambaro cyanditseho n'amagambo, impande hari inzu yubakishije amatafari ahiye haparitse n'imodoka ndetse n'ibiti.

Abagore babiri n'umugabo umwe n'umwana bambaye udupfukamunwa, bicaye ku ntebe hari impande yabo uducupa tubiri twamazi, umugore umwe afite ikaye n'ikaramu ari kwandika.

Abagabo babiri bambaye amashati y'urutenge. Bari mu cyumba gisize irangi ry'umuhondo, harimo ibikoresho by'ikoranabuhanga mudasobwa, intebe n'ameza ariho impapuro n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Icyumba gisize irangi ry'umuhondo, hasi hashashemo amakaro. Hateretsemo intebe zisa ubururu handitseho ku magambo y'umweru hateretsemo n'ameza.

Ibyumba by'amashuri byubakishije amatafari ahiye, imbere hari abanyeshuri bari gutambuka, abandi barahagaze bari kuganira. Amadirishya arafunguye.

Ishuri risize irange ry'umweru harimo intebe nyinshi hicayemo abanyeshuri abakobwa ndetse n'abahungu, bafite amakaye n'amakaramu mu ntoki bari kwiga ndetse n'izindi ntebe ziticaweho inyuma yabo.

Abanyeshuri bicaye mu ishuri rinini rifite amadirishya y'ibirahure, imbere hari ikibaho cy'umweru ndetse n'igisa icyatsi bari kwiga, umwarimu ahagaze imbere, bicaye ku ntebe zisa icyatsi, imbere hari ameza ariho amakaye n'amakaramu.